Ikigaragara hano ni inyamaswa yitwa ingagi, iri mu ishyamba, ahantu iri kureba hejuru yerekeje amaso mu biti, iri kureba ibintu bigiye bitandukanye, buvuga ko ahantu hasurwa tugambiriye kureba inyamaswa zishimishije.

Uyu ni Dr. Utumatwishima Jean akaba arimo ararahirira inshingano zo kuyobora urubyiruko nka minisitiri, bigaragaza ko yemeye inshingano ahawe kandi akazazikurikiza neza akurikije itegeko rya Repubulika y'u Rwanda.

Ndabona aha hantu ari kuri kaburimbo haparitse imodoka itwara itwara peterori, hakurya yaho hari ibiti birebire by'ishyamba, hakurya y'ishyamba hari amazu na korotire ihakikije.

Iki ni icyapa kiranga ibinyabiziga n'abantu uko bashobora kugenda, iyo haka umutuku abagenzi baragenda ariko ibinyabiziga bigahagarara, iyo hatse icyatsi abagenzi barahagarara ibinyabiziga bikagenda, iyo hatsa umuhondo ari ibinyabiziga ndetse n'abantu bagenda buhoro buhoro bitegura ko itara ry'umutuku rigiye kwaka.